Akabari aho kari hose haba hiranga kuko haba harimo inzoga zitandukanye kandi ukahasanga hari intebe zitandukanye n'ameza menshi kuko buri wese ahagera agahitamo aho aricara no ku meza aririraho bitewe n'aho akunze kandi ashaka.

Ahantu ho mu kabari haba hiranga; kuko wahasanga intebe nyinshi cyane, ukahasanga hari ameza, ugahasanga hatwikiriye, ugasanga ahantu agatsiko k'intebe n'ameza, harimo n'agasakaro kabitwikiriye, kugira ngo buri wese uraza ahitemo ahamubereye, ashaka kwicara we n'inshuti ye banywe. Kuko inzoga ziba zihari, nta kibuze bagasangira.

Akabari kabamo inzoga zitandukanye n'ibyo kurya buri wese icyo yifuza arakibona kandi hakabamo n'akabyiniro abakobwa bananiranye babyiniramo. Mu kabari haba hashushe cyane n'ibyuma byinshi bivuga bidunda.

Burushete ni inyama ziryoha cyane cyane zikunda kuba ahantu mu kabari, ugasanga bari kotsa burushete, kuko buri muntu wese ufashe icyo kunywa, aba yumva yafata n'ako kaburushete akakarenza kuri icyo kinyobwa ari kunywa.

Akabari aho kari hose haba hiranga kuko uhasanga ibinyobwa bitandukanye ,ugasangayo inzoga nyinshi z'amoko yose, ugasanga aho abantu bakora muri ako kabari ,ukahasanga intebe zitandukanye n'intebe ziba mu rugo ugasanga baziteye ukuntu ugasanga buri wese agiye muri ako kabari ahisemo ibyicaro aricaramo bitewe n'uko ashaka kubyicaramo bitewe n'izo ntebe bagiye barunda udutsiko udutsiko.

Ahantu nko mu kabari, haba hiranga ugasanga hari intebe zitandukanye; ugasanga bazitondetse ukuntu buri dutsiko, ukwatwo, buri wese akajyayo agatoranya ahantu aricara bitewe n’aho ashaka kandi akunze.

Utubari aho turi hose haba hiranga kuko n'aba barimo bose baba batandukanye buri wese afite icyamuzanye nicyo yaje gukora kandi buri wese aba ari mu bye buri wese icyo aba agambiriye nuko arya kandi akanywa akishima nicyo utubari tuberaho.

Abakozi bakora muri resitora baba bambaye neza cane! Urebye aba yambaye umwenda usa n'umweru ariko uwo mwenda nta n'agatotsi kawugaragara ho, kandi agakora akazi neza nkuko yagahawe, inyama bakokereje noneho yo iba imeze neza kandi ikaba iryoshe.

Akabyiniro abakobwa badashobotse baragakunda, kuko bakajyamo bakabyina, bakabona amafaranga menshi abatungira ubuzima.

Mu tubari twinshi hakunze kuba intebe zitandukanye. Ukahasanga intebe zimeze ukuntu, ukahasanga ibintu byinshi, ukahasanga inzoga z'ubwoko bwose, ukahasanga intebe, ukahasanga ibintu byose, ukahasanga ameza, ukahasanga udutsiko tw'intebe kuko buri wese yicara mu gatsiko ashaka, agafata icyo ashaka akarya burusheti akarya cyane.

Ahantu hari utubari hose haba hiranga, kuko uhasanga abantu benshi batandukanye ukahasanga abantu bose baragenda bagiye ku kabyiniro, ugasanga hari abantu b'ingeri zose yaba indaya yaba abazima yaba abajura, yab'abaki bose wababariza ku kabari. Ku kabari haba higenga ntawukubaza ngo waje gukora iki, buri wese aba yigenga, bitewe n'icyo yaje gukora akicara kubera ko afite icya......

Akabari ni ahantu bacururiza inzoga z'amoko yose, yaba abanywa inzoga cyangwa abatanywa inzoga, ugasanga hari n'ibinyobwa bagomba kubona, ugasanga hariyo fanta, ugasanga hariyo mitsingi, ugasanga hariyo pirimusi, ugasanga hariyo novida, ukabura icyo ushaka kandi wifuza, kuko aho hantu ari mu kabari. Igituma bahita mu kabari ni uko hari inzoga zitandukanye, n'ibinyobwa bitandukanye.

Ahantu hari akabari haba hiranga, inyubako zaho ziba zitandukanye n'ahandi, haba hari intebe z'udutsinda buri wese ugiye muri ako kabari akicara ku ntebe ashatse bitewe n'aho ari kumva akunda.

Ahantu hari akabari haba hiranga kuko iyo uhageze , uhasanga intebe nyinshi cyane , ukahasanga ziteye ukuntu udutsiko , ugasanga abantu baricaye bari kunywa ibyo bashaka , kuko ha hari inzoga z'amoko yose . Ugahitamo inzoga ushaka kunywa , ugahitamo aho ushaka kwicara , ibyicaro ubona bikubereye , kuko haba hari ibyicaro byinshi cyane bijyanye n'igihe , ugahitamo bitewe n'icyo ushaka kandi ushaka kugeraho.

Ahantu nko mu kabari haba hiranga, kuko uhabona ibintu bitandukanye, ukahasanga inzoga nyinshi z'amoko yose, ukahasanga intebe utasanga nko mu rugo, ukahasanga ibirahure ku meza ukahasanga udutsiko tw'intebe, ku buryo buri wese ugiyeyo abona ahantu hari agatsiko k'intebe akumba arahashaka kandi arahakunze, agahitamo agatsiko ashaka kwicaramo bitewe n'icyo aku......

Inzu y'ubucuruzi aho iri hose iba yiranga, kuko iba ifite ibirango byinshi bigaragaza ko ari inzu y'ubucuruzi, wageramo ugasangamo ibicuruzwa byinshi bitandukanye ugafataka icyo ushaka, kubera ko ntacyo waburiramo kubera ko byose biba bihari.

Iduka ririmo ibikoresho byubwubatsi, ryunguka amafaranga menshi ku munsi, kuko abantu bagura cyane, kubaka ntibijya birangira.

Isoko ryo muri kariyeri ribamo imbuto zitandukanye. Niryiza cane ndarikundaga kuko ntago nageramo ngo ntabona imbuto zose nshaka.

Ibiti byiza cane bigira igicucu gifite amahumbezi, ku buryo abantu bakibungira bagaparikamo imodoka zabo, bakahagira muri parikingi.

Ibikapu byo mu mugongo biba byiza cane, icy'umukara n'umutuku, amayesume aba meza cane, umuntu ayifashisha mu buryo butandukanye, umuntu ayakenera nko guheka umwana, akayakenera nka kigoma, cyangwa akayakenera agiye gukaraba umubiri wose.

Inzu z’ubucuruzi, aho ziri hose, ziba ziranga kuko usanga hariho ibirango by’ibyo bakora cyangwa ibyo bacuruza. Usanga abantu barahagiye, barahaganye, bagiye kugura aho ibyo bicuruzwa, kuko babonye ibirango by’ibyo bacuruza.

Inzu z'ubucuruzi aho ziri hose ziba ziranga kuko uhasanga ibicuruzwa bitandukanye, ugasanga urujya n'uruza buri wese yaje kugura kandi ugasanga ibintu byose birahari kuko nta kiba kihabuze kuko inzu z'ubucuruzi zigira ibintu byose umuntu ashaka akazigana agiye kugura.

Inzu z'ubucuruzi aho ziri hose, ziba ziranga kuko ubona zubatse mu bwubatsi butandukanye n' inzu abantu babamo, ukabona hariho ibirango by'ibicuruzwa bacuruza kandi ahantu hari inzu z'ubucuruzi, ntihajya hatana n'inzu cyangwa umutaka ucuruza amayinite, ugasanga byose urabihabonye kuko hari ubucuruzi.

Ahantu hashushanyije amacupa haba hameze neza, ni ku gipangu bashushanyije bashiraho n'inyamanswa n'ingagi.

Inzu z'ubucuruza aho ziri hose ziba ziranga kuko usanga abantu bari kunyuranaranamo, buri wese aje guhaha cyangwa aje kugura ikintu runaka ugasanga hubatse neza cyane, ugasanga basize amabara menshi kandi meza asa, ugasanga koko hari ubucuruzi buri wese arakora bimwe ibijyanye n'iby'undi nkuko aba arikoko babitegetswe.

Inzu z'ubucuruzi aho ziri ziba ziranga. Usanga zimeze neza cyane. Ugasanga bakora nk'amandazi. Imbabura iteretse ku muryango bakora amandazi meza kandi aryoshye. Ugasanga bayakorera mu isafuriya nziza cyane ikeye, kugira ngo abantu bazaryehomandazi bazabe banagaruka, bahashakire n'abandi bakiriya, kuko bakora ibintu neza, kandi ku murongo bitunganyije neza.

Inzu z'ubucuruzi aba ari nziza kuko usanga hakeye, ugasanga hari ibicuruzwa byinshi bitandukanye , ukahasanga hari inyubako nziza zijyanye n'igihe ugasanga hameze neza kuko buri wese ajya ahagana agasanga hari ibintu byose, byinshi kandi akeneye agahitamo icyo ashaka bitewe n'amafaranga yazanye. Inzu z'ubucuruzi ni nziza kandi zizana n'imisoro mu Rwanda.

Inzu z'ubucuruzi aho ziri hose ziba ziranga, kuko uhasanga ibirango by'ibyo bacuruza, usanga barashyizeho amanimero ya telefone, wabashakiraho ukeneye ibintu byo kugura, ugasanga hari ibintu byinshi bitandukanye by'amoko yose, ukahasanga imyenda, ukahasanga amagaze batekeraho, ukahasanga imyenda, ukahasanga amazi yo kunwa, ukahasanga imyenda, ibintu byose biba bihari kuko bacuruza.

Inzu z'ubucuruzi aho ziri hose ziba ziranga, kuko usanga handitseho ibirango by'ibyo bacuruza, ugasanga abantu benshi barahagana, ugasanga hari ibicuruzwa byinshi bitandukanye, buri wese akagenda agiye kugura, kuko aba abona ko hari ibirango by'ubucuruzi.

Inzu y'ubucuruzi ni nziza cyane abantu barayikunda cyane, iyo ugiyeyo uyigana usanga hari ibicuruzwa byinshi kandi bitandukanye, ukagura icyo ushaka kandi wifuza kuko byose biba bihari, ukagura icyo ushaka kandi ku giciro cyagenwe.

Mu isoko habamo ibintu byinshi bitandukanye: amatelefone, abacuruzi bari gucuruza udukapu tw'abakobwa, amakuteri, n'ibindi bitandukanye nka za furati.

Inzu y'ubucuruzi aho iri iriho iba yiranga kuko iba yubatse neza kandi yubakitse. Ugasanga umuriro hafi aho, ugasanga abantu bari kugenda ni urujya n'uruza, buri wese agiye guhaha. Kuko muri iyo nzu y'ubucuruzi nta kiba kibuzemo, n'amamoto araparika agiye guhaha

Amazu yubucuruzi ni meza cane kuko yose aba afite konoshi abantu bugama ho imvura cyangwa bakugamisha moto, ari hafi y'umuhanda ntamuntu ujya abura aho yugama.

Inzu y'ubucuruzi aho iri hose iba yiranga, kuko usanga hari ibirango biranga ko iyo nzu ari iy'ubucuruzi, ugasanga imeze neza cyane harimo n'ibicuruzwa, n'ubwo utabibona hanze, ukajya kubibaza mu nzu ubisangamo, kuko barabiguha biba bihari.

Inzu z'ubucuruzi aho ziri hose ziba ziranga, kuko usanga zubatse mu nyubako nziza cyane, ugasanga zitandukanye n'inzu abantu babamo cyangwa batahamo, ugasanga bimeze neza ugasanga hari ibicuruzwa bitandukanye, ugasanga barahateganyije kuko bazahacururiza kuko usanga hari ibintu byose kandi byiza wifuza.

Isoko ribamo ibintu bitandukanye biteretse ku gasima akawunga ubwoko butandukanye ,umuceri ubwoko butandukanye amapampegisi n'amakotegisi ibyo byose ubisanga mu isoko.

Inzu y'ubucuruzi aho iri hose iba yiranga. Kuko uhasanga ibicuruzwa byinshi cyane. ukahasanga ibicuruzwa bitandukanye, ukahasanga ibibase byinshi byinshi cyane! Ibisa n'umutu, ibisa n'ubururu, ibisa n'icyatsi; ukahasanga amasafuriya, ukahasanga amagare, ukahasanga aho bajugunya imyanda. Ukamenya ko aho hantu hari ubucuruzi, kuko haba hari ibintu atari kimwe ahubwo ari byinshi cyane.

Imodoka nini cyane ya rongeshashe, ipakiye umuceri mwinshi cane, bari kuwupakurura bawukura mu modoka, bawujana kuwushira ahandi.

Kuri sitasiyo ibinyabiziga bihanywera esanse imodoka, moto, hakabaho n'abakozi bagomba gutanga iyo esanse.

Ahantu hari ibintu by'ubucuruzi haba hiranga kuko uhasanga ibyo bicuruzwa byinshi bitandukanye, ukahabona n'ibirango byerekana ko hari ubucuruzi, wajya kugura ikintu ukakihasanga kuko haba hari ibintu byinshi.

Inzu z'ubucuruzi aho ziri hose ziba ziranga. Kuko ibirango biziriho biba bitandukanye n'inzu abantu babamo, kandi ukahasanga ibicuruzwa byinshi bitandukanye, ukamenya ko aho ahantu bahacururiza.

Abanyonzi bafite amagare bategereza abagenzi ku muhanda, iyo bababonye barabatwara bakabageza iyo bashaka, nabo bakabishura amafaranga azabagirira akamaro.

Utuzu twa emutiyene ni twiza cane kuko umuntu uri kugacururizamo ataja agira ikibazo c'aho arugama izuba cyangwa imvura. Ibihe byose ahora aracuruza yaba mu mvura cyangwa no mu zuba.

Inzu z'ubucuruzi ziriranga, ziba zigaragaza, ntabwo wazinyuraho ngo uziyoberwe kuko haba hariho ibirango by'uko bacururizagamo.

Inzu y'ubucuruzi bakoreramo telefoni na kompiyuta haba hari ikirango kibiranga kuko bahakorera ibyo bikoresho. Iyo umuntu agiye gukoresha aragenda akahita ahabona kuko haba hari ibirango byaho.

Inzu z'ubucuruzi aho ziri hose zira ziranga, kuko uhasanga ibicuruzwa bitandukanye ,ugasanga hari ibikoresho byinshi kandi bigurishwa ,kugira ngo buri wese ahagere ahite yibwira ko hari ubucuruzi.

Amaroja aba meza cane nk'iyo bwakwiriyeho wagiye ahantu mu mahugurwa , ujya gushakayo icumbi ukaribona kandi bakagufata neza nk'uko bikwiriye.

Imyenda imanitse mu isoko iba igaragara neza cane. Iyo uturutse imbere cyangwa inyuma ubona isa neza yose wayigura. Imisego, amashuka n'amakuvurori.

Gucuruza ibisheke ku igare ni byiza cyane. Iyo avuye kubizana ku igare agenda abicuruza mu nzira, akagera iyo agiye bishize.

Inzu y'ubucuruzi aho iri hose iba yiranga, kuko ubona itandukanye n'inzu abantu babamo. Ugasanga hariho ibirango n'amashusho, ugasanga barasi mamaje ko ha bagira ubucuruzi, kandi iyo uhageze ubona ko hari ibintu byinshi bitandukanye.

Inzu y'ubucuruzi aho iri hose iba yiranga, kuko aba ari ibicuruzwa byinshi cyane kandi bitandukanye, ugasanga imodoka ziri gupakira, cyangwa zirimo kumena ibicuruzwa, kugira ngo bacuruze, ugasanga bararanguye barungutse, kuko bigira amafaranga menshi, ugasanga umuntu arungutse nta kibazo afite yiteje imbere.

Inzu bacururizamo ziba zirimo ibintu byose, ntacyo waja gushakamo ngo ukibure, abantu barazikundaga cane.

Ipoto iri ku muhanda, hari inzu iteye ibara rya move, ifatiyeho insinga nyinshi z'umuriro, iramutse iguye yaba ari ikibazo gikomeye.

Inzu z'ubucuruzi aho ziri hose ziba ziranga. Kuko usanga barazubatse mu buryo bwiza bwemewe n'amategeko. Ugasanga hariho ibirango by'ibyo bacuruza. Ugasanga bazisize amarangi ajyanye n'ubucuruzi . Ugasanga ahantu zubatse ni hagari cyane kuko haba haraza abantu benshi , urujya n'uruza baje kugura ibyo bicuruzwa bacuruza.

Ubucuruzi ni bwiza cane bugira amafaranga. Iyo wafashe umutaka ukawushinga, ugashiramo ibicuruzwa bitandukanye, umufuka w'amakara, umufuka w'ibirayi, umugore uri kuzunguza inyanya, ubonaga ubucuruzi bugira amafaranga cane.

Inzu z'ubucuruzi aho ziri hose ziba ziranga, kuko ubona zubatse zitandukanye n'iz'abantu babamo, ukahasanga ibirango by'ibyo bacuruza, ukahasanga imodoka n'ama moto na bo baparitse kugira ngo na bo bagure ibyo bashaka, kandi bifuza kuko niyo uri kure izo nzu z'ubucuruzi tuzibwira, kuko ibyo bacuruza ubibona hanze, ukajya kugura wabibonye kandi uzi neza ko bihari.

Iminyururu myinshi cane ibisa neza cane, bayizirikisha imbwa kugira ngo idacika igatoroka ikagenda.

Inzu y'ubucuruzi aho iri hose iba yiranga, kuko uhasanga ibirango bitandukanye n'ibiba ku yandi mazu, ugasanga baramamaza ibyo bacuruza ugasanga bafite ibintu byinshi bitandukanye, ukahasanga n'abantu ukahasanga n'ibikorwa bitandukanye n'iby'ahandi bakora, bitandukanye n'ibyo inzu z'ubuhinzi zikora.

Inzu z'ubucuruzi aho ziri hose ziba ziranga, nk'iyo bacuruza imyenda usanga imanitse hanze, ugasanga imyenda imeze neza cyane, ugahitamo uwo ushaka kandi ukubereye, kubera ko uba uyisanze hanze ugahita umenya ko aho hantu bacuruza imyenda.

Inzu z'ubucuruzi aho ziri hose ziba ziranga, kuko usanga ari nziza kandi zibereye, ugasanga hari ibicuruzwa byinshi bitandukanye, kandi hanze ya ho hari ubucuruzi bwa Emutiyene, ugasanga hariho umutaka, kuko abantu barabikuza, bagahita bajya kugura ibyo bashaka.

Inzu z'ubucuruzi aho ziri hose haba hiranga ,kuko usanga urujya n'uruza rw'abantu kandi ugasanga akenshi ziri ku muhanda ,hari imihanda haba hari kunyura n'ibinyabiziga, ugasanga abantu benshi bari kujya guhaha, ugasanga ni byiza cyane, yaba abacuruzi bari kubona amafaranga, yaba n'aba n'abaguzi bari kubona ibyo bagura ,ibintu ntakibazo.

Inyubako z'ubucuruzi aho ziri hose ziba ziranga, kuko usanga hari ibirango by'ibyo bacuruza, ugasanga hari ibintu byinshi bitandukanye. Ugasanga hari abantu benshi urujya n'uruza, abagore, abana, abagabo, abakecuru ,kubera ko buri wese ajya guhaha kandi akagura icyo ashaka bitewe n'amafaranga ya...

Inzu z'ubucuruzi aho ziri hose ziba ziranga, kuko usanga zubatse neza cyane, ugasanga bategetse kubaka neza, ugasanga bafite umurongo umeze neza cyane, ugasanga niba bavuze ati dushire amakaro ugasanga izo nzu z'ubucuruzi zose bazisizeho amakaro kubera koba ari ibikorwa bya leta kandi byinjiza imisoro ya leta. Ugasanga aho biri habereye kuhareba habereye amaso, habereye abacuruzi n'abaguzi.

Inzu z'ubucuruzi aho ziri hose ziba ziranga kuko uhasanga ibirango by'ibyo bakora cyangwa ibyo bacuruza, ugasanga hari inyubako nziza itandukanye n'inzu umuntu abamo, ugasanga babikamo ibikoresho bacuruza ugasanga hari intebe abakiriya bicaraho, ugasanga bacuruza ibyuma by'ubwubatsi ugahita ubyibwira kuko ari byo uhasanga.

Inzu z'ubucuruzi aho ziri hose ziba ziranga. Kuko usanga hakeye, ugasanga ni heza cyane, ugasanga hariho ibirango by'ibyo bacuruza, ugasanga bahaye abantu ikaze kugirango babagane bagure ibyo bashaka kandi bifuza. Uggasanga bari kwamamaza kugirango babona abakiriya. Ugasanga ni byiza cyane, kuko iyo uhageze ntacyo ubura kuko byose biba bihari.

Icyapa kiri ku muhanda kiba kiza cane kuko iyo ukigezeho umenya aho urererekera kiri haruguru y'umuhanda ku kiraro. Umuntu uhagaze ku capa abantu barikwambuka ikiraro.

Inzu nk'amahoteli aba ari nziza cyane. Ziba zifite n'inyubako ziziranga ko ari amahoteli. Ugasanga hari inzu abantu bararamo. Iyo umuntu bwamwiriyeho akatirayo akajya gushakirayo inzu agomba kuraramo bakayimuha akabaha amafaranga nabo bakamufata neza nk'uko bikwiye. Bakamubungabugira umutekano kuko aba yabahaye amafaranga ye.

Inzu nk'amahoteli aho ziri hose haba hiranga kuko haba hari inyubako nziza cyane ibereye iterambere ijyanye n'igihe, ugasanga ni inyubako ya kijyambere kuko buri wese aba arahiyakirira kuko baba barakira abantu benshi batandukanye. Ugasanga bakiriye abanyamahanga ugasanga bakiriye ba kavukire n'abahatuye ugasanga ni byiza cyane. Inyubako zaho ziba ari nziza cyane ukahasanga ku buryo nta cyondo wahabona kuko baba.

Ku bitaro byigenga aba ari heza cane kuko ikibazo cyose uhuye nacyo ujyayo bakakuvura nta nkomyi, kandi bakaguha imiti ifitiye ubuzima bwawe akamaro, irahita igukiza indwara vuba.

Ahantu ho muri hoteli haba hiranga kuko haba hari ibintu byinshi bitandukanye byiza, hakaba hari n'aho ukodesha ukaba wararamo kandi n'aho hantu uba ubona hakeye kandi hasa neza, kubera ko n'abavamahanga bose baba baraza bakiyakiriramo bakariramo.

Amagi ari ku isoko aba yiranga kuko aba ari mu tuntu twabugenewe bayatwaramo kugira ngo atameneka. Ugasanga buri wese ugiye kugura ayabonye akiri kure kubera ko aba ari ahantu hagaragara kandi neza.

Abantu batandukanye bahagaze ku murongo, abantu bahetse abana, abandi ni abagabo, abandi ni abasore, bategereje kumva amategeko n' amabwiriza y'icyo bababwira.

isoko aho riri hose haba hiranga, kuko haba hari urujya n'uruza rw'abantu ugasanga hari abagabo hari abagore, hari abana ugasanga imyenda iraparitse hasi, ugasanga abantu bari kugura ugasanga hari isoko ryubakiye, ukahabona inyubako zitandukanye n'iz'ahandi kuko haba hari ibintu byinshi bitandukanye, ugahita umenya ko ari mu isoko.

Mu isoko haba hari ibintu byinshi bitandukanye kandi byiza, iyo ugezeyo mu isoko wihera amaso, ukabona abacuruzi baricaye, ukareba ibicuruzwa imbere yabo, ukagura ikikujyanye, ukagura icyo ushaka kandi wifuza ukakijyana mu rugo, kuko uba wavuye mu rugo ubishaka kujya kukigura.

Iduka bacururizamo riba ririmo ibintu byinshi bitandukanye: inyana, amagi, amandazi amaji, amavuta yo kwisiga y'abana, kawunga, umunzani, umuceri, amaji yo mu tujerekani, n'amafanta manini mu bipipiri na za sana juwisi yo mu gakombe.

Mu isoko habayo imbuto za orange nziza cane, n'iza pome, izo mbuto zose ku bana ziba ari nziza, abana n'abakuru barazikundaga cane, kuko ziryoha.

Mu isoko haba hari urujya n'uruza rw'abantu. Abantu bakunda kujya mu isoko kubera ko babona ibyo bashaka kandi bifuza ugasanga n'abacuruzi barabikunda cyangwa kuko iyo bageze mu isoko babona bagurira n'abaguzi na bo bakabona ibyo bifuza.

Amavuta yo kwisiga y'ubwoko bwose ushaka wayasanga mu isoko, kuko haba hari amavuta menshi kandi atandukanye. Ugasanga uruhu rwawe rukeneye kwisiga. Ugasanga ni yo uguze kuko uritoranyiriza, kuko yose aba ahari, suzana na vasarine, bebikeya, ugasanga malayika zirahari, ugasanga amavuta yose arahari n'ay'abana ukihitiramo ukitoranyiriza.

Amashu yo muri Burera yeze usanga bayatemye bayarambitse ku muhanda, imodoka zikaza gupakira ziyajyana ku bigo by'amashuri bitandukanye.

Ku isoko haba ibintu byinshi bitandukanye, yaba imyenda, yaba ibyo kurya, inyanya, urusenda, ibitungurupapuro, ugasanga tungurusumu zose zirahari, kuko uri ku isoko ntacyo waburirayo, kuko byose biba bihari. Iyo ufite amafaranga ugura icyo ushaka, kandi umutima wawe wifuza bijyanye n'amafaranga.

Ubucuruzi buba busa neza cane aho buri buri burigaragaza kuko haba hari ibintu bitandukanye bitanga amafaranga ibitunguru, tangawize, mayoneze aho biri ubona ari ubucuruzi.

Ahantu hari isoko usanga hari abantu benshi, hari urujya n'uruza rw'abantu, usanga abantu banyuranamo, bamwe bahaha, abandi bagurisha, ugasanga ibintu ni byiza cyane, kuko abagurisha babona amafaranga, n'abagura bakabona ibyo bakeneye, bakabibona ku gihe kandi ku mafaranga yabo.

Ku isoko haba hiranga, kuko ku isoko habayo urujya n'uruza rw'abantu ugasanga abantu baranyuranamo, abasore n'abagabo, abakobwa, abakecuru , abasaza , ugasanga buri wese ari kwinjira mu isoko cyangwa ari gusohokamo, agiye guhaha ,avuye guhaha bitewe n'icyo yara agiye gushaka ku isoko. Ku isoko heza cyane, abantu bajyayo bakabona ibyo baryaho abandi bakajyayo bakabona amafaranga.

Mu isoko haba ibintu byinshi byiza kandi bitandukanye, ukahasanga urujya n'uruza rw'abantu, ukahasanga amazu menshi y'ubucuruzi mu isoko, nka hariya muri gare, uhasanga ibintu byinshi byiza kandi wifuza, ukagura icyo ushatse kandi wifuza, kuko byose biba birimo ugahitamo bitewe n'amafaranga wajyanye.

Amafi araryoha cyane, ariko buri mwana wese ntabwo aba yarya amafi, kubera ko agira ubucumu, ubucumura ku buryo kahigama umwana. Umwana ntago apfa kurya amafi.

Ameza n'intebe afite agaciro karenze. Umuntu ari kubireba ko bikozwe neza.

Inanasi kuyirya ni byiza cane, ariko kuyihinga biba bigoranye cane. Ni igihingwa cyera mu Gakenke mu misozi, kandi nabwo ntabwo ari Gakenya yose, ni ibice bitandukanye bifite udusozi, ni byo byera mo igihingwa cy'inanasi.

Isoko ni ahantu hajya abantu benshi batandukanye:abagore, bagabo, abana, abakecuru, abasore, kuko buri wese aba afite icyo agiye kumarayo, hari ababa bajyanye ibyo bejeje babijyanye mu isoko hari ababa bagiye guhaha, ugasanga mu isoko ari uruvange rw'abantu, kuko buri wese aba afite ikimugenza cyamuzanye mu isoko.

Iji yo mu tudomoro iraryohaga cane iyo wayiguze ukayifungura neza mu rugero.

Tangawizi ,n'indimu, ibitunguru, intoryi na pavuro n'urusenda biri kugurishwa mu isoko.

Imbuto zitandukanye ziba nziza cane nk'imbuto z'imineke, imineke ya poyo, iya kamara, goromisheri ,pome wotameroni, imyembe aba ari byza cane.

Mu isoko cangwa mu iduka haba amavuta atandukanye, ay'ubwoko bwose. Amavuta yose uri gushaka agendanye n'uruhu rwawe, wayabariza mu isoko kuko ntabwo wayabura. Habaho ay'abagabo, ay'abagore, ay'abana ndetse n'abantu bakuru bose.

Mu masoko haba ibikoresho bitandukanye; ibikosi byiza, ibikombe by'amadongo, udutete n'udupaniye.

Mu isoko haba ibintu byinshi bitandukanye urebye haba hari amasukari ,amavuta yo guteka, umuceri, kawunga ugasangamo abantu batandukanye buri wese ari gucuruza.

Imbuto za gaperi n'imbuto nziza cyane bakunze kuvuga ko zivura amaso, iyo umuntu yaziriye akagira amaso meza kandi acyeye kandi abana barazikunda. Aho ziteye cyangwa zimejeje usanga abana bahahora kugira ngo bakunde bakureho imbuto birire kandi zikagira zikagira n'amafaranga ku isoko iyo umuntu azifite agaperi barakagura cyane.

Ahantu hari isoko hose haba hiranga, kuko uhasanga ibicuruzwa bitandukanye, ukahasanga nk'ibicuruzwa bikoreshwa n'umuriro nk' matoroshi, ugasanga arahari ari menshi cyane, ugahita umenya ko aho hantu ari mu isoko, kuko baba babifite byinshi.

Isoko riba ryiza cane abantu bararikundaga kuko ntakintu wajya gushakayo ngo kibure byose biba bihari.

Abacuruzi bari gucuruza ibirago by'ibikangaga byinshi, abaguzi bari kubibaza ngo nangahe?

Igicuruzwa cy'umunyu ni igicuruzwa cyiza cyane abantu baragikunda cyane kuko iyo ugeze mu ngo z'abantu bose uhasanga umunyu. ni igicuruzwa utagera mu rugo rw'umuntu ngo ubashe kukibura kandi no ku isoko amasoko yose igicuruzwa cy'umunyu kiba cyiganjemo nk'umunyu bita bahari.